Inyama zokeje ziraryoha cyane, kubera ko ziba zokeje neza kandi umuntu aba ataziheruka, adaheruka kuzirya, mbese inyama ziraryoha cyane.

Iyi ni indyo yuzuye cyane kuko irimo byose, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibindi byose ndi kubona. Iyi ni indyo nziza cyane cyane kuko iba itetse neza cyane.

Mu kabari haba harimo amoko y'inzoga menshi, cyane cyane amasikoro n'amamitsingi mu kabari aba arimo, amarikeri nayo aba arimo kugira ngo abantu badashoboye kunywa amasikoro binywere amarikeri.

Mu kabari haba harimo inzoga zitandukanye cyane cyane amarikeli , cyangwa inzoga nk'amamitsingi aba apfundikiye, kugira ngo abantu baryoherwe na zo kandi mu kabari haba hagaragarara neza....

Ji iraryoha cyane, cyane cyane iyo bayishyize mu kagiras,i iba isa neza, iba isa neza cyane, kubera ko iyo uyinnyweye wumva uyifitiye apeti kubera ko iba iri ahantu heza.

Ibyo kurya biba biryoshye cyane, cyane cyane iyo ugiye ukaruraho kuri byose, ukarura ukurikije ibiruzuza indyo yuzuye. Biragufasha kubaho neza, kandi ukaramba.

Ku cyokezo twokerezaho inyama kugira ngo tuzirye zihiye neza kandi zibe ziryoshye ugereranyije n'izo baba bokereje ku mbabura isanzwe, kandi icyokezo kiba gifite isuku cyane.

Inyama ni nziza cyane kubera ko igira intungamubiri kandi irinda indwara. Iyo wayiriye ugira uruhu rusa neza kandi ukomeza kugaragara neza mu bandi. Kandi iyo wariye inyama ugira ubuzima bwiza.

Simonteni ati fanica ikora ibintu bikoze mu mbaho, cyane cyane nk'ibitanda, amadive, igakora n'intebe zisanzwe, ameza ndetse n'utundi tuntu twose twakenerwa muri salo, cyangwa ahandi hantu ariko dukoze mu bintu by'ibiti.

Ingiri injiniyaringi endi teredingi savisi igurisha amaponsezi, igurisha amadisike, kandi igurisha ibikoresho byinshi biri elegitoronike, nko kuba wagurayo amamashini akata ibyuma, cyangwa akata imbaho ,ibi byose wabisangayo.

Butike ziba zubatse neza cyane kandi ziba zubatse ahantu abantu bagomba kugera byoroshye, kandi buri butike igomba kuba ifite kandagira ukarabe, kugira ngo umukiriya naza abanze akarabe ataba afite za mikorobe akazinjiza mu iduka.

Muri butike haba hegereye ku muhanda kugira ngo abakiriya nibaza bakeneye ikintu bahite binjiramo, kandi baba umuhanda uhegereye aho ngaho, kugira ngo abari kuhanyura babone ibyo bashaka.

Inzu zometseho amakaro ziraramba cyane kubera ko iyo imvura iguye, amazi ntabwo yinjira mu nzu, mu rukuta, kubera ko akubitaho agahita agwa hasi. Kandi izo nzu ziraramba cyane.

Inzu zometseho amakaro zigaragara neza, kandi ziraramba ugereranyije n'izindi. Ziba zisa neza, iyo abantu bazirebye babona zi neza pe! Kandi iyo zometse ho amagaro ziraramba, kubera nta n'amazi yinjira mu rukuta.

Muri Gwata rezati tujyayo tugiye kuruhuka, tukongera tukajyayo tugiye kuryoherezamo kugira ngo tugire bwiza, turifureshinge mu mutwe. Iyo wabaga wari ufite ibibazo byinshi ukaruhuka, ukavayo wameze neza.

Muri butike tuguriramo imyenda, tukaguriramo ubukapu bw'abagore, tukaguriramo amabote, tuguriramo n'amashuka, n'ibiki bishobora kuba byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi amabutike aba yometseho amakaro aramba.

Homini hoteli ni hoteli ibamo za henikeni, cyane cyane ko henikeni ari inzoga nziza ituma abantu basusuruka dore ko banaganiriraho, bakagira ibintu byabagirira akamaro. Hano ushobora kuba wajyamo ufite amafaranga yawe ukariramo, ndetse ugasohokanamo inshuti zawe.

Ibitunguru ni byiza cyane kuko iyo ubitetse ushyize mu biryo biraryoha, bikaryoha cyane. Iyo wanabivanze, noneho iyo ubivanze nko mu nyama, biba bimeze neza cyane ugereranyije n'ibindi. Rero kurya ibitunguru ni byiza cyane cyane.

FORTBET ni betingi ya mbere itanga amafaranga menshi iyo wabetingiyemo. Kandi aho ikorera haba hariho umutuzo mwinshi ugereranyije n'izindi beting zikorera mu Rwanda. FORTBET niyo beti nziza ugereranyije.

Muri kenkayori habamo amasima, habamo amabati, hamamo n'ibikoresho bakoresha bari amakenkayori akunda kuba yometseho amakaro, kugira ngo azarambe.

Abadaso batuma tubaho mu mutekano cyane cyane mu mibanire y'abantu bo mu cyaro, kubera ko iyo babonye umudaso bagerageza kwitwara neza kugira ngo batabangamirana bigatuma babajyana kubagorora.

Ibiduki babikamo amazi, bashyiramo imisururu, mbese wanashyiramo n'urwarwa iyo warukoze ibiduki cyane cyane bakunda kubishyiramo imisuru.

Inzuzu z'bucuruzi ziba zubatse neza, kandi ziba zubatse ahantu hegereye umuhanda, kugira ngo abakiriya baboneke kandi kugira ngo niba uranguye ibintu byo gucuruza, byorohe kubigeza mu nzu yawe kubera ko ubaga wegereye umuhanda.

Abadaso baturindira umutekano, kandi batuma abantu badakora urugomo, cyane cyane nk'abana baba batajya ku ishuri, abantu baba baravuye mu ishuri bakurura urugomo, abadaso barabahasha bakabirukankana bigatuma abantu babaho neza.

Inzu zometseho amakayo zirakomera kubera ko iyo imvura iguye ntabwo amazi yinjira mu rukuta ugereyije n'inzu z'ubucuruzi zitometseho amakaro, ntabwo zibaga zisa neza ugereranranije n'izometseho amakaro. Kandi izitometseho amkaro zisaza vuba.

Botike ziba zubatse ahantu hegereye umuhanda, kugira ngo zibone abakiriya. Kandi mu mabotike tuguriramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nko kujya kunyweshaho amagaze cyangwa tukajya tukaguramo ibintu byo kurya cyangwa tukaguramo n'ibindi byadufasha mu buzima.

Mu gakiriro niho tuguriramo inzu, tukagurirayo n'ibyuma. Aha tunahagurira amadirishya ndetse n'ubwugi bw'ibiti bwo gushyira mu nzu.

Gaze ziba nziza cyane, kubera ko bazitekaho kandi iyo wayitetseho ibiryo bishya vuba, cyane cyane nkubu iyo uri kwihuta, mbese guteka kuri gaze ni byiza cyane.

Muri Amikusi ujyamo ugiye kunywamo icyayi, cyangwa ukajamo ugiye kuruhukiramo, iyo wari unaniwe ujya kwiryamiramo cyangwa ukagenda bakaguha akaji ukinywera. Mbese Amikusi ni nziza cyane.

Avoka ni nziza cyane, kubera ko iyo zeze barazigurisha, bakaguramo ibyokurya, cyane cyane iyo zeze mu gihe cy'izuba, ziba zihenze, kandi zigaha abazihinze umusaruro, kubera ko baba bazishaka cyane.

Amabutike tuguriramo ibikapu, tuguriramo utwenda duciriritse, kandi mu mabutike tuguriramo ibintu byo kurya, cyane cyane nk'imiceri, amakawunga, ndetse n'ubugari. Kandi mu mabutike habamo ibintu.

Mu rugo tuguriramo amasabune, tuguriramo ibikoresho byo mu rugo nk'amasafuriya, ibikombe, kandi tuguriramo ibiribwa bimwe na bimwe kandi ni ingenzi mbese.

Inzu zometseho amakaro ziraramba cyane kubera ko amazi, nta bwo iyo imvura iguye amazi yinjiraga mu mu rukuta, bituma kandi inzu ikomeza kugaragara neza, kabone na ho yaba imaze imyaka myinshi.

Muri butike Alegisi tuguriramo amakaloni, tuburiramo za inaji, tuguriramo amarikeri, kandi ibintu byose biba birimo. Mbese kwa Alegisi haba hariyo ibintu byinshi, dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu butike habamo ibintu byinshi. Cyane cyane ibiribwa nk'ibirayi, ibitunguru n'ibindi bishobora kuba byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo iyo ushaka ibiro bitanu by'ibirayi, bagushyirira ku munzani, bakabiguha ukajya kubiteka bitewe n'amafaranga ufite.

Muri alimamantasiyo tuguriramo amazi, tukaguriramo amata, tukaguramo ibyo kunywa, mbese muri alimamantasiyo tuguriramo ibintu byinshi cyane.

Amapoto baba barashyizeho bateraho amakashipawa, kugira ngo habeho insinga ziduhereza amashanyarazi, ajye mu rugo ahantu turaba tugiye kuyacanira, amashanyarazi kandi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, kubera ko duhora turayakenera.

Sadiyabare ni nziza cyane kubera ko ifite amarogi, kandi iyo wagiye kunyweramo cyangwa kujya kuriramo akabenzi uba umeze neza, kubera ko bakorera ahantu heza ugereranyije n'ahandi.

Amazu y'ubucuruzi aba yubatse ahantu hegereye umuhanda, kugira ngo abakiriya nibaza bibe byoroshye kuva mu muhanda ujya mu iduka. Kandi amazu y'ubucuruzi aba yubatse neza, bigaragara neza.

Akaduka ka eyateli kadufasha kugura amayinite tukanabikuza amafaranga aba ari kuri simucadi zacu za eyateli. Cyangwa abantu baba bashaka kugura amasimukadi ya eyateli , cyangwa no ku gaswapa baradufasha tukagashwapa.

Amazu yometseho amakaro agaragara neza kandi araramba kubera ko iyo imvura iguye nta n'amazi yinjira mu rukuta, bityo bigatuma amazu yometseho amakaro aramba.

Ku mabutike tuguriraho amagazi tugiye gufiringa, cyangwa tugiye kugura amagaze mashasha. Kandi iyo ugiye gukoresha amagaze bisaba kugira ngo ushyireho amaregireta, kandi ushireho ugure n'amashyiga kugira ngo ujye uteka neza.

Inyubako ni nziza cyane ,cyane cyane ni etaje imeze neza igeretse rimwe ndikubona imeze neza cyane cyane, bacuruzamo ibintu bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ziba zegereye umuhanda kugira ngo abantu bazanye ibyo bagiye kugurisha abakiriya babibone, kubera ko ari ku muhanda aho abantu baba bari kunyuraho babirebe. Kandi zikunda kuba zubatse neza.

Ku madepo tuguriramo ibishyimbo, tukaguramo kawunga, tukaguramo ubufuka bw'imiceri kugira ngo tugende tujye kurya tubeho neza tubeho kandi mu buzima bwiza. Turya indyo yuzuye; kurya nk'umuceri haba harimo n'ubunyobwa, imifuka mbese hano baba bari kuranguza, bararanguza hano hantu wazajya urajya kugurirayo utuntu tugiye dutandukanye.

Amabutike menshi aba yometseho amakaro, kugira ngo azarambe. Kandi iyo yometseho amakaro, iyo imvura iguye nta bwo amazi yinjira mu rukuta, bishobora gutuma inzu isaza vuba. Rero iyo wayometseho amakaro, inzu iba iri kugaragara neza, kandi iyo imvura iguye amazi nta bwo yinjira mu rukuta.

Izi nzu bacururizamo amaraputope, amakompiyuta yo bita amahecipi akora neza cyane, ama ampuri n'biki byose bikora neza, rero ibi bintu biba ari byiza iyo wabiguze.

Butike ziba zegeranye n'umuhanda, kugira ngo abakiriya banyureho bari kureba muri butiqke ibintu birimo, kandi niba hari ibyo bakeneye baze bagure, kandi bidaturutse kure.

Amagare ni meza cyane, kubera ko iyo ufite akagare kawe kagufasha kugenda ahantu harehare mugihe gito, kubera iyo ufite igare ahantu ugenda uhagera vuba, kandi ukahagerera ku gihe byihuse.

Kekayori tuguriramo ibikoresho by'ubwubatsi, cyane cyane amanyundo, tuguriramo ibyuma, tuguriramo inkero, tuguriramo n'amasima yo kubakisha kugira inzu zacu zikomere kandi zirambe, dukoreramo n'amakaro n'ibindi.

Amakara aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko aba adahenze ugereranyije na bya gaze bihenda. Kandi iyo uyatekesheje ibiryo biba biryoshye kubera ko bisha byitonze.

Kokakora ni fanta nziza, igufasha kuba amaraso yatembera neza mu mubiri, kandi kokakora ntabwo isindisha. Naho pirimusi zo zifasha abantu kubaho neza, kandi zigatuma n'imibereho yabo ikomeza kurushaho kuba myiza.

Banki ofu Kigali ni banki y'igihugu, idufasha kuduha amaserivisi agiye atandukanye, kubera ko iba iri ahantu henshi, kandi serivisi zayo zirihuta ugereranyije n'izindi banki.

Neza hawuzi akomondesheni ni ahantu heza, ushobora kujya ugiye kuruhukira kubera ko haba hatuje, kandi icyo ushaka cyose barakikuzanira, haba hatuje cyane nta bintu by'urusaku bibayo, cyangwa ibintu byo kugutesha umutwe.

Amahoteli aba afite ubusitani bwiza cyane, cyane iyo urakoreramo nk'ubukwe, ukaza ukifotorezamo kandi haba hasa neza cyane, ku buryo iyo wifotorejemo uba uri kugaragara neza, bitewe n'indabyo ziba barahinzemo.

Amaseritivenda akenshi haba harimo amabase, harimo amasafuriya, harimo udukombe, harimo amafoke, n'ibiyiko. Ndetse harimo n'ubusahane butoya bwo kurisha imboga ugiye kurya ubugari.

Iduka ry'imyenda tuguriramo imipira, tukaguriramo amakanzu, tuguriramo amashati, tuguriramo n'ubupira bwiza cyane bwo kwambara iyo tugiye gusura nk'ahantu, cyangwa iyo tugiye mu isoko rikomeye.

Ababoshyi b'ibirago babiboha neza cyane ku buryo tubyanikaho amasaka, tubyanikaho ibishyimbo, kandi ushobora kubiryamaho, bifite akamaro kanini cyane.

Ama sitiriti vendazi bacuruzamo inkweto z'abagore, niz'abakobwa, ndetse bacururizaho n'amabote, kugira ngo abantu baba bari kunyuraho nibabona amaboti bayakeneye, bayagure cyane cyane abahinzi.

Fanta ni nziza cyane kubera ko iyo wayinyweye wumva umeze neza, naho sana juyisi yo iba ari nziza ku bana, cyane cyane ko bayikunda ngo iba iryoshe. Tuwisite yo iraryoha cyane, cyane cyane tuwisite uyinywa urwaye nk'inkorora ukumva irakize.

Ibikoresho byo mu gikoni cyane cye amarushe y'amafiriti, amajerekani, ibikombe, amasafuriya, amaparato, byose tubikoresha mu gikoni kugira ngo tuteke, tugabure, tunabirireho. Amasaregu ni yo turiraraho, ibikombe tubinyweramo, ibijerekani tubizanamo amazi.

Ibirungo ni byiza cyane kubera ko iyo ufashe ka tomato ukagashyira mu mboga zawe ziba ziryoshye, ziraryoha cyane kubera ko ibyo kurya bihita bihindura agasura bigatuma ugira apeti kandi nawe ukaryoherwa.

Sana juwise yo mu gakombe iraryohaha cyane, kubera ko abana bayikunda, iyo wayibaguriye baragushimira, cyane. Kandi amabiswi araryoha cyane, kubera ko aba aryohereye wagira ngo bashizemo agasukari kenshi.

Imbuto n'igirakamaro cyane kubera ko zidufasha kugira ubuzima bwiza, kugira uruhu rusa neza kandi runyereye kandi imbuto nyinshi zubaka umubiri kandi zimwe zikarinda indwara cyane cyanee nk'izipavuro zirinda indwara.

Novida ni ikinyobwa kimeze neza cyane, kubera ko iyo wakinyweye gikonje wumva kiryoshye cyane, kandi kikamara n'icyaka. Noneho urusenda narwo rutuma umuntu agira apeti kandi iyo waruriye wumva ibiryo biryoshye cyane. Sanajuwisi yo mu gakombe yo ituma abana basusuruka kandi bagakina.

Ibitoki bitera imbaraga, bitera imbaraga kandi bikunda kwera i Burera, i Musanze, cyane cyane hano mu Musanze mu Murenge wa Muhoza, birera cyane cyane.

iyo uri kunywa ikigage kiraryoha cyane, ubu bushera buraryoha cyane cyane, bitera imbaraga bituma ugira kuraje, iyo wabinyweyeho wumva umeze cyane.

Umunzani budufasha gupima ibihingwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iyo uragurisha nk'ibishyimbo, cyangwa uragurisha ibirayi, wifashisha umunzani kugira ngo ugufashe gupima, kandi ntibakukwibe.

Amashu arera cyane, iyo yeze urayapakira ukayajyana nko ku muhanda ugategereza imodoka, ikaza ikayakujyanira ahantu ho bayakeneye, cyane cyane nko mu bigo by'amashuri baba bakeneye amashu cyane, kugira ngo bakuremo imboga z'abana.

Abantu bacuruza inkweto bakunda kugira amafaranga kuberako inkweto zirunguka cyane, Kandi abantu bose bambara inkweto kugira ngo barinde ibirenge byabo kuba byakwangirika, mbese inkweto ni nziza kuberako ibirenge bitageramo za mikorobe.

Aha hantu barasuka, gusuka mbese umusatsi ni byiza cyane, kuko ugaragara neza, ukajya no mubandi umeze neza, nta n'ipfunwe ufite, iyo bagusutse kandi uba umeze neza pe! mumaso uhita uba mwiza.

Ibyuma bishaje bakunda kubigura kugira ngo babijyane mu ruganda bakoremo ibyuma biindi. Nk'ibyuma byo kubakisha, cyangwa bakoremo nk'ibitiyo, cyangwa bakoremo amasuka, cyangwa bakoremo n'ibindi bintu by'ibyuma.

Ibitoki biraryoha cyane, kubera ko iyo wabitetse ugashyiramo udushimbo, ugashyiramo n'utunyanya, wumva bimeze neza cyane. Ibitoki babikuramo urwagwa iyo babitaze, cyangwa bakabiryamo imineke.

Inkwavu n'amatungo magufi, meza yororoka vuba, kubera ko ababyara ibyana byinshi kandi zikaba inkwavu zikura vuba, ugereranyije n'izindi. Inkwavu kandi ntabwo ziba zigoye kuzorora, kubera ko aho wazishyira hose, cyane cyane hasakaye zirakura.

Isoko ry'imyedo ribamo ibintu byiza cyane kuberako habamo inkweto, hakabamo amapantaro hakabamo amashati meza, mbese aba ari meza amashati yaho cyane cyane nko muri Goyiko ubonamo amashati meza meza meza cyane.

Isoko tuguriramo imyenda y'abana, tuguriramo imyenda y'abagabo, tuguriramo n'imyenda ya caguwa myinshi cyane y'abana baba batagize. Mbese mu isoko tuguriramo imyenda myinshi cyane amakote, udupira, tukaguriramo n'amakanzu byose.

Ibirayi biraryoha cyane, kubera ko iyo wabitetse neza, ugatekamo nk'agafiriti, agafiriti k'ibirayi kaba karyoshye. Kandi iyo ufashe ibirayi by'amaganda, ukabigereka ku bishyimbo, biba biryoshye cyane.

Isoko ry'ibiribwa tuguriramo ibisheke, tukaguriramo n'ibindi byose imbuto, ibintu by'amanyanya, ibiki, kugira ngo tujye duteka tubeho neza turye tubeho neza cyane. n'ibisheke biraryoha babikuramo isukari.

Inyanya ni nziza cyane iyo wazitetse dutetse ukadukatagura neza ukadushyira mu biryo cyane cyane iyo wa zirapye.

Mu isoko tuguriramo isombe tukaguriramo n'ibindi, cyane cyane isombe ni ingirakamaro kubera ko igira ama vitamini. Kandi iturinda indwara, iyo wayiriye ukayitekamo nk'ikinono cy'inka urayirya ukumva umeze neza.

Amavendazi bacururizamo amabodaboda y'abana, ni z'abakuru, ndetse na za umoja zo kogeramo z'abagabo n'iz'bana, cyane cyane muri vendazi bakunda gucururizamo n'utuntu tw'udusaha rimwe na rimwe ku bantu baba basirimutse.

Umuntu ukora amasafuriya aba afite ubuhanga bwinshi cyane, kubera ko agenda arakatagura amasafuriya yashaje, kugira ngo akore akiri mazima, ariko yapfumutse. Kandi yifashisha ibikoresho bitandukanye nk'ibyo guhondesha n'ibindi.